Abantu benshi bari ku ruhande rw'umuhanda bari gucuruza ndetse no kugura ibintu bitandukanye, uwo muhanda nowa kaburimbo, hariho umutaka wa kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda by'itumanaho ndetse n'undi mutaka w'ubururu, abantu benshi bari munsi y'iyo mitaka bamwe barahagaze abandi baricaye, ni byiza ko twajya dutangirwa serivisi.

Ahantu hari ibirango by'ibigo bikomeye bikorera mu Rwanda, muri byo twavuga ikirango cya Banki ya Kigali, irembo, ibigo byombi bikora ibijyanye n'itumanaho bikorera mu Rwanda ndetse n'ikigo gishinzwe imisoro, ikindi gishinzwe ingufu n'igishinzwe amazi, hariho n'ibindi birango bitandukanye.

Abantu batatu umukobwa yambaye amadarubindi, umu mama wicaye umusatsi we nt'udefirije yambaye akantu k'umweru mu ijosi, uwo musore wundi bari kumwe yambaye umupira wanditseho amagambo aranga kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda ndetse uwo musore afite n'ikaramu mu ntoki, aba bantu bagiye kwaka serivisi kuri uwo muntu kugira ngo abafashe batazadindira mu iterambere.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ibijyanye n'itumanaho. Hari akazu gashinzwe gutanga izo serivisi. Amadirishya yako uko ari atatu arakinguye. Hari umuntu uri kwaka serivisi, ni babiri hakaba n'abari kuzitanga.

Umuntu uri mu kazu ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'iz'ikigo kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda by'itumanaho, ategereje abakiliriya baza bamugana, ako kazu karafunguye gafite amadirishya atatu.

Akazu gatangirwamo serivisi z'itumanaho, ni akazu k'ikigo kimwe mugo by'itumanaho bikorera ku butaka bw'u Rwanda, iruhande rwako hari ibiti ndetse bigaragara ko kari ku muhanda, ni byiza ko twagana kino kigo kugira ngo serivisi dushaka.

Ahantu hahurira abantu benshi. Hari n'imodoka nyinshi. Hari abantu bari mu mutaka wa kimwe mu bigo bishinzwe itumanaho bikorera mu Rwanda. Abandi na bo bambaye imyenda ibaranga kuko bakorera icyo kigo. Hariho n'abandi bantu biganjemo abamotari ndetse n'amamodokaka atandukanye.

Ku muhanda wa kaburimbo, hariho n'inzira y'abanyamaguru, ku ruhande rw'inzira y'abanyamaguru, hariho umutaka utangirwamo serivisi z'itumanaho, ku ruhande na none rw'umuhanda, hariho amapoto ndetse n'amazu atandukanye.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abamotari bari imbere y'inyubako, ku ruhande rw'iyo nyubako hari icyapa cya kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, aho ngaho kandi hariho n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi hejuru bigaragara ko aho hantu hateye imbere guhera kera.

Abantu babiri umwe yambaye uturindantoki n'ikoti ry'ikoboyi bigaragara ko ni umumotari kuko imbere yabo hariho mo turiho amakani atatu atwarwamo amata ni byiza kuko dutwara amata mu ikani cyane cyane ariko duha akazi abantu b'urubyiruko kugira ngo biteze imbere nabo amata abagirire akamaro binyuze mu kuyashyikiriza ku makaragiro abegereye.

Inzu nziza cyane, zino nzu zikunze kugaragara mu mujyi ni inzu igeretse inshuro ebyiri ndetse hejuru yayo hari n'akandi kazu bigaragara ko uwakoze igishushanyo mbonera yagashize nk'umurimbo, imbere yayo hari akamodoka gatoya hakaba ndetse n'undi muntu uhagaze munsi y'umutaka wa kimwe mu bigo bikoresha itumanaho bikorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ku isoko ryubakiye, harimo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane imbuto, imbere yaryo hariho abantu bitwikiye umutaka n'abandi batitwikiriye.

Abantu batandukanye bikoreye ibiti byo kujya gutera nk'ingemwe, bari mu murima wi'bigori, umwe muri bo afite igare arikusunika ndetse inyuma ye hari umukobwa mwiza cyane wambaye ingofero y'ubururu zimwe z'abakobwa, ari kumusunikira kugira ngo bihute bajye kubitera kare bituma.

Umuhinzi w'imyaka yahinze ibinyomoro ubu bigeze igihe cyo gusarurwa, uyu muhinzi ni umugabo, ibinyomoro bye kandi bireze ni igihe cyiza cyo kubisarura kugira ngo umusaruro we utazangirika.

Abantu batandukanye bari ahantu hari za gaze nyinshi cyane, uko bigaragara baje gushishikariza abantu gukoresha gaze ngo badahumanya ikirere kuko bari ahantu hari ibiti byinshi, muri abo bantu hari abambaye imyenda y'imyeru n'ingofero zisa.

Ahantu hapakururwa cyangwa hagapakirirwa imizigo, cyane cyane ibipakirwa n'abakarani, hariho abantu batandukanye ndetse n'imodoka irimo imifuka n'umugabo wikoreye umufuka ku rutugu n'abandi bahagaze, hariho n'uwikenyeje akadeyi.

Abantu benshi cyane bahuriye ahantu, bameze nk'abari mu nama cyangwa bagiye kwaka serivisi zigiye zitandukanye, bari kurya ibigori, ibi bigori biratetse, bambaye imyenda itandukanye yiganjemo iy'amabara y'umweru.

Mu kabari harimo inzoga z'amoko atandukanye, izo nzoga ziriho ibirango by'inganda zikora, izo nzoga kandi zirimo amoko atandukanye kandi ntabwo zinganya ingano.

Mu kabari ahagurishirizwa inzoga, harimo abantu baje kunywa inzoga ndetse bazifite no mu ntoki, izindi nzoga ziri ku meza ari muri aka kabari ndetse harimo n'ibirahure na byo birimo inzoga, mu kabari kandi harimo n'abandi bantu ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kabari.

Amacupa yiganjemo amaremare n'amagufi, amacupa kandi n' ay'ibisindisha biriho ibirango by'inganda ziyakora. Iyo witegereje neza usanga aya amacupa arimo inzoga zifite amabara atandukanye. Mu by'ukuri kunywa ibiyobyabwenge ni ikintu kibi, cyane cyane ku bana.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi cyane, yambaye umupira w'umweru wanditseho amagambo imbere mu gatuza, yambaye kandi ingofero y'umutuku ariko iri kureba inyuma, ari mu kabari imbere ye hari ibinywobwa bitandukanye, si byiza kujya mu kabari ku bana bato.

Ku rukuta rw'inzu. Habambitseho icyapa. Cyanditseho ijambo gatanu n'umubare gatanu. Kuri iki cyapa, hariho n'idarapo rigaragaza igihugu cy'u Rwanda.

Mu iduka hacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi. Harimo kandi umu mama mwiza cyane w'inzobe, uri kureba wabumbye umunwa.

Mu iduka aho bacuruza inzoga, abantu benshi bavuga ko ubu bwoko bw'inzoga buri muri aya macupa butuma abantu badasinzira neza. Si byiza kunywa izi nzoga ugiye kuryama kuko byangiza ubuzima.

Muri butiki icuruza ibikomoka ku mata ndetse n'amandazi, harimo tirimusi irimo amata cyangwa icyayi ndetse n'amandazi ari mu indobo, muri iri duka harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Mu iduka, umucuruzi ntabwo yiyogoshesheje, yambaye ishati iriho ibipesu by'umweru ndetse n'ishati irimo imirongo igiye itadukanye ariko iyo shati ifiteho imifuko ibiri, afite ibicuruzwa mu ntoki ari kwereka umukiriya ngo akigure, mu iduka rye harimo ibiribwa, cyane cyane ibyo abana bakunda cyane bavuga ko bibashiririza n'amenyo.

Ahantu mu iduka, hari udukingirizo twanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza asobanura urukundo. Ni byiza ko urubyiruko rwitabira gukoresha agakingirizo ndetse n'abantu bakuze kugira ngo hakomeze kubahirizwa gahunda yo kugabanya urubyaro, cyane cyane tubyara abana tudashoboye kurera.

Ahagurishirizwa ibicanwa bitangiza ikirere. Hari amacupa biba birimo agiye atandukanye, hariho n'ateretse mu ma pave ndetse n'ari ahantu yagenewe. Ari imbere y'inzu zifite amabara atandukanye ariko zombi zibambitseho ibyapa, hariho n'intebe imbere yazo.

Aho bacururiza inzoga hari ikirango cyabumwe mu bwoko bw'inzoga ucururizwa mu Rwanda byemewe n'amategeko, harimo umumama uhagaze muri iryo duka ndetse imbere ye ahari icyo kirango, harimo ameza icyo kirango kiriho.

Umumama uri mu iduka, imisatsi ye isa neza cyane mbese imwe y'umwimerere, arimo araseka afite inyinya imwe bita irembo, ishati ye ikubye amaboko, afashe ku meza aho abakiriya bamugana bakaza akabakirira, iduka rye harimo ibicuruzwa bitandukanye.

Mu iduka harimo abantu barimo umugore wambaye imyenda y'igitenge ndetse yiteza n'ikindi gitenge mutwe, afite icupa mu ntoki bisa nk'aho harimo amavuta yitwa amamesa bifashisha mu guteka, muri iri duka kandi harimo n'abandi bantu ndetse n'ibindi birungo byifashishwa mu guteka.

Intebe y'umweru ntabwo ikozwe mu mbaho nk'izindi ntebe nyinshi zikorwa n'abantu bize iby'ubukorikori. Iyi ntebe kandi icitse ku ruhande iruhande rwayo gatoya hariho inkweto ifite amarase y'umweru.

Mu iduka harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo kandi n'abantu babiri umukuru yambaye amadarubindi ariko ari mu mutwe ntabwo ari ku maso, mu iduka harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo amandazi, utujerekani ndetse n'ibirungo n'ibindi bintu byinshi byifashishwa barya.

Inyubako nziza ahantu bacururiza imyenda itandukanye, harimo amakanzu, amashati ndetse harimo n'itara, ni byiza ko umuntu niba afite iduka ricuruza imyenda, yajya ayishyira ahagaragara buri wese akaguramo uwo ashaka.

Umumama mwiza cyane uri mu iduka, yambaye imyenda y'igitenge ndetse mu mutwe we yiteze ikindi gitenge arimo araseka, mu iduka rye harimo ibicuruzwa bitandukanye, ni byiza ko n'abamama bihangira umurimo.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo, hahagaze ku ruhande rwacyo umuntu umwe wambaye karuvati, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, iki cyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ndetse n'ibiti n'abantu biri hafi y'umuhanda.

Abantu benshi cyane batandukanye bari gufata ifoto, aho bari kuyifatira ni imbere y'inzu nziza cyane kandi ntabwo ubutaka bugaragara kuko hariho amapave, bisa naho ari ku rusengero cyangwa ahandi hahurira abantu benshi.

Ku rusengero rw'itorero rya adeperi hariho icyapa cyanditseho amagambo agira ati umuhango wo gusengera umushumba w'ururembo rwa Nyagatare n'abashumba ba paruwase uru rusengero rwubatse ku buryo bugezweho mbese rusa neza cyane imbere yarwo hari ubusitani.

Abantu batandukanye bitabiriye inama ni ku rusengero kuko abitabiriye inama ari abashumba bambaye amadarubindi ndetse n'abandi bantu imbere yabo hariho za bibiriya benshi bambaye amashati ariho akantu kagaragaza ko ari abashumba ni abakristo koko.

Amagambo yanditse ndetse hariho n'umusaraba, ayo magambo ni Caritas Rwanda, umusaraba n'ijambo Rwanda byanditse mu mabara y'umutuku naho Caritas byanditswe mu ibara ry'umukara.

Abantu batandukanye barimo n'umushumba wa kiliziya, harimo abagore ndetse n'abazungu. Ni byiza ko dufatanya nk'inzego zitandukanye kugira ngo tugere ku bintu byinshi bitandukanye ndetse tuzamurane ubushobozi.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari iya kera. Iyi nyubako kuko ifite ikimenyetso cy'umusaraba hejuru, ni urusengero. Uru rusengero ni rwiza cyane. Ni byiza ko abantu bose baba abantu bagana insengero kuko insengero zirigisha abantu bagahinduka kandi bagafashwa.

Ku rusengero ahatangirwa serivisi zijyanye no kubwiriza ijambo ry'imana hariho abantu benshi imbere y'urusengero kandi hariho n'imodoka rusakaje amabati y'umutuku kandi rwubakishije amatafari ahiye.

Mu urusengero ni igihe cyo guhazwa, abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse na padiri barimo barahaza, abagabuzi n'abahazwa ndetse n'ibindi bintu bikunze kugaragara mu rusengero.

Abazungu babiri, umugabo n'umugore. Basohokeye muri ka bare, barimo bafatamo akantu kamwe, bari gukomanganya ibirahuri, umugore yambaye ikanzu y'icyatsi n'amadarubindi, naho umugabo yambaye ikabutura ngufi n'inkweto zifunze.

Mu cyumba cyagenewe kuryamamo iki cyumba ni icy'inyubako zigezweho kuko n'uburiri bukirimo bugezweho, usanga aha ngaha aba ari ahantu bakodesha cyangwa se batanga amazu yo kuraramo by'umunsi umwe.

Mu nyubako nziza cyane harimo abantu benshi cyane batandukanye, ariko biganjemo abantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuko imbere yabo bayoboye imbere ni umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Kagame.

Mu cyumba harimo uburiri abantu baryamaho ndetse n'imisego buri ku gitanda amatara arimo kwaka bigaragara ko ari ku mugoroba, aha hakunze kuba ari ahantu hagurirwa ibintu by'ibiribwa ndetse hakanakodeshwa abantu bifuza kurara.

Mu isoko harimo abantu benshi bambaye udupfukamunwa tw'amabara atandukanye, hari umuntu wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse yikoreye tungurusumu afite n'urunigi ku kaboko. Hari kandi n'undi mupapa utagaragara neza mu maso ufite agapfukamunwa gakunda kuboneka kwa muganga k'ubururu. Ni byiza ko tuzajya tujya ku isoko.

Mu isoko, hariho ahantu hubatse ndetse n'ahatubatse, hagararaho imitaka itatu ndetse harimo umugabo ufite gitari wambaye n'agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu, mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, uyu mugabo na we ari gucurangira abitabiriye isoko.

Mu isoko harimo ababyeyi bacuruje ibintu bitandukanye ariko byiganjemo imbuto n'ibindi bivangwa mu biryo kugira ngo birusheho kuryoha, bacuruje inyanya, imineke, avoka ndetse n'ibitunguru hamwe n'ibindi bitagaragara neza.

Abantu benshi, bisa n'aho ari ku isoko, abagabo babiri bagaragara, umwe yambaye bote, afite inkoni imwigetseho ndetse yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu n'ingofero mu mutwe, afite indi ngofero mu ntoki, bisa n'aho ari iy'undi mugabo bari kumwe kugira ngo amusuzumire arebe ko na we ingofero ye ikomeye.

Mu isoko aho bacururiza amatungo, hari ihene y'umusheru baziritse amaboko ipfukamye ndetse hari n'izindi hene nyinshi zitandukanye z'amabara atandukanye, hagaragara amaguru y'umugabo wambaye inkweto z'umukara.

Mu isoko ahagurishirizwa ibintu bitandukanye by'umwihariko imbuto, hari abantu benshi ariko muri bo hariho umumama ufite akabase gato kariho inya imbere ye hariho indi base nini y'umukara n'ayo irimo inyanya, izindi mboga zihari ziri mu bikoresho bitandukanye bibika ibintu harimo urusenda, inyanya, intoryi ndetse n'abandi bamama bicaye.

Ku isoko ahagurishirizwa ibintu bitandukanye, nta bicuruzwa byinshi bigaragaraho uretse umumama umwe wikoreye akantu kariho imbuto uri kugana mu isoko yikenyeje n'igitenge, ari imbere y'imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abantu batandukanye. Abantu bamwe bikoreye ibicuruzwa bavuye guhaha, abandi barimo bagana mu isoko harimo kandi umuntu ufite akarobo kariho karoti ndetse n'ikoti ry'umukara mu ntoki, n'umukobwa wambaye imyenda bigaraga...

Mu isoko harimo urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, harimo umukobwa wambaye agakabutura kagufi n'inkweto zifunguye ndetse n'umupapa ufite akajerekani k'umweru mu ntoki hariho umumama wambaye umupira w'umukara ariko yikoreye n'ibintu ku mutwe, mu isoko ni ho haboneka abantu batandukanye ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye biba byaje ngo bigurishwe.

Mu isoko ahantu hagurishirizwa ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ari isoko rya kijyambere kuko ibicuruzwa byaje biri mu kajagari. Hari abacuruza inkweto, abaparitse amagare ndetse n'abandi bantu bahagaze utamenya ngo bari buze gutangira gucuruza saa ngahe.

Ku isoko ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye hakanakorerwa n'ibindi bintu bitandukanye hariho imodoka, abantu amazu, za moto ndetse n'ibiti.

Ahantu hagurishirizwa ibyo kurya harimo intebe ndetse n'ameza n'ibindi bikoresho byifashishwa ahantu hakorerwa bene ubwo bucuruzi bw'ibyo kurya, harimo n'abantu bicaye bari gufata ibyo kurya.

Ahantu bacuruza ibyo kurya. Abantu bose bari kwiyarurira. Buri muntu afite isahani ye mu ntoki. Hari n'abandi bahagaze inyuma, bambaye imyenda y'imyeru.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umumotari uhetse umugenzi, ku nzira y'abanyamaguru harimo abantu bari kugenda, ku ruhande rwayo hari ibyapa bitandukanye na none ku ruhande rwayo hariho abandi bantu barimo n'abanyonzi ndetse n'amazu.

Umumotari uri mu muhanda w'amabuye yambaye kasike ndetse indi kuko nta muntu ahetse iri ku mahembe ya moto, ku muhanda ariho iruhande rwaho hari izindi nyubako zitandukanye zifite n'amabara atandukanye, hari kandi n'abandi bantu aho hari umuntu wambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe ufite amajerekani abiri.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo ari kuri moto ye. Amaboko yombi ntari gutwara moto. Impande ya kaburimbo hari amazu ndetse n'imodoka ziganjemo imodoka zidatwara imizigo. Ayo mazu ariho amakaro.

Mu muhanda wa kaburimbo nta modoka n'imwe irimo ahubwo harimo moto eshatu, izo moto zombi ziriho abagenzi, iri inyuma iriho umugenzi wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, ni umukobwa.

Ku muhanda utari uwa kaburimbo, hariho abanyonzi bategereje abagenzi, bari kureba inyuma wabona haje umugenzi, imbere yabo hari imodoka ndetse n'ibindi bintu bitagaragara neza, hariho ibiti ndetse hakurya hagaragara amazu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umumotari uhetse umuntu wambaye ikasike y'icyatsi ndetse motari we yambaye iy'umutuku, ku ruhande rw'umuhanda hari amazu ndetse n'amashanyarazi bigaragara ko hataratera imbere, mu muhanda kandi harimo n'undi muntu wigendera inyuma y'abamotari.

Umumotari uri mu muhanda ari kugenda kuri moto ye yambaye ikasike y'umweru, kuruhande rw'umuhanda hari amazu nayo y'umweru ndetse imbere yayo hariho amapoto y'amashanyarazi ndetse n'imodoka, harimo kandi n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku arimo kugenda aho abanyamaguru banyura.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umumotari urenze aho abagenzi bahagarara cyangwa se bambukira kugira ngo badahura n'impanuka, ku ruhande rw'umuhanda hariho imodoka ndetse n'akandi kazu gafite ibara ry'ubururu ku rugi, hariho n'andi mazu agezweho atandukanye.

Umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ahetse umugenzi, uwo mugenzi afite ikindi kintu kimeze nk'ikiri mu gafuka kuri moto, bombi bambaye amakasike y'umutuku, muri uyu muhanda harimo n'undi munyonzi w'igare ndetse uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani buriho n'inzu igaragara ndetse n'imodoka iri imbere y'iyo nzu.

Umuntu w'urubyiruko uri mu muhanda wa kaburimbo, ari ku igare, yambaye inkweto z'umutuku za bodaboda, ku igare ahetseho agafuka karimo ibintu utamenya, inyuma ye hagaragara undi muntu wambaye bodaboda z'umukara n'ubwo hagaragara imwe na we ari ku igare, ku ruhande rw'umuhanda bariho, hariho ibindi biti ndetse n'amazu atandukanye.

Abamotari bari kuri moto zabo mbese ahantu baparirika, hari umugabo uri aho hantu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto zidafunze, ni byiza ko twifashisha abamotari igihe dushaka kugera ahantu vuba.

Umuntu uri ku igare mu muhanda wa kaburimbo, yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'inkweto z'umutuku, igare rye ryagenewe gutwara imizigo, ku ruhande rw'uyu muhanda hari imyaka y'abaturage, ibishyimbo bishingiriwe ndetse n'urutoki.

Mu muhanda wa kaburimbo hahagazemo umuntu uri ku igare ndetse n'undi ukorera kimwe mu bigo bishinzwe itumanaho mu Rwanda ku ruhande rw'umuhanda hari imodoka itwara umuzigo ndetse n'abandi bantu batandukanye ku rundi ruhande kandi hariho n'ibiti bitandukanye n'inzu.

Mu muhanda w'amabuye harimo umuntu uri gusunika igare ririho indobo ndetse n'ibindi bintu biri mu mifuka ku ruhande rw'umuhanda hari amazu ari mu mabara y'umweru ndetse imodoka n'ibindi bintu n'abandi bantu birimo n'imitaka ikorerwamo na kimwe mu bigo bitanga serivisi z'itumanaho bikorera ku butaka bw'u Rwanda.